Umuceri mwiza cyane ni umuceri uri mu mufuka munini cyane. Ni wa muceri uba waratunganyijwe neza, ugatoranywa neza ku buryo nta myanda iba irimo . Umuceri ni kimwe mu binyamisogwe bituma tugira imibereho myiza tukarya ibyokurya byiza.

Umugabo uri mu gishanga kinini cyane, ni igishanga gihinzemo umuceri ni umuceri ushishagiranye, uwo mugabo arimo gutera imiti umuceri. Imiceri ni imwe mu binyamisogwe bituma tugira imbaraga.

Umupapa uri gutera umuti mu nyanya, ari gutera umuti wo kurinda inyanya udukoko mu buryo bwo kugira ngo azabone umusaruro mwiza kandi ushimishije, inyanya zibeho neza.

Umupapa wambaye bote, ufite isuka, ari mu ifumbire, ni rya fumbire duteza imyaka yacu igakura neza, ni ifumbire ry'imborera, zimwe mu ifumbire zikuza imyaka ikaba myiza cyane.

Umugabo uri gutera imiti mu bishyimbo, ya miti yica udukoko, mu buryo bwo kugira ngo imyaka ikure neza, nta busimba buyonona. Ni byiza ko twatera imyaka yacu,..

Umuntu wambaye ga, ni umuntu ufite igihingwa. Ni cya gihingwa kikiri ingemwe, afite umuti, ni wa muti wica udukoko kugira ngo igihingwa gikure neza kitangirizwa n'utwo dukoko.

Umugabo uri mu gishanga kinini cyane, ni igishanga cy'umuceri. Uwo mugabo ari gutera umuti wica udukoko, ari kwica udukoko tuva ku muceri, kugira ngo umuceri ukure neza ufite ubuziranenge buhagije.

Abagabo babiri bari gufumbira ishu, ni ishu riteye mu kabasi karimo ibitaka. Ni ishu risa neza kandi amashu ni ubwoko bw'imboga butuma tugira imibereho myiza.

Amafi meza cyane amafi menshi kandi meza, amafi ni zimwe mu nyamaswa ziba mu mazi ,ni zimwe mu nyamaswa ziduha inyama, za nyama nziza cyane zidufasha kwirinda indwara.

Igikoni cyiza cyane, ni igikoni kigiye gutekerwamo amafi manini, ni amafi atatu ari mu ipanu, kandi hakaba hariho n'ibyo turi bwifashishe, mu buryo bwo kugira ngo duteke ifi nziza cyane, ifi iryoshye, harimo tungurusumu hakaba harimo na puwalo.

Abamama babiri, n'abapapa babiri, bafite indobane bari kuroba amafi n'amafi meza cyane amafi ava mu nyanja amafi amwe aduha inyama zirinda indwara.

Ikiyaga cyiza kinini, ikiya ga bororeramo amafi, havamo amafi menshi kandi meza, gikikijwe n'ibiti, amashyamba, ni ahantu heza cyane wakwifuza ko wajya ugurira amafi.

Amafi manini cyane, ni amafi meza kandi menshi, amafi ni zimwe mu nyamaswa ziba mu mazi, ziduha inyama nziza cyane, za nyama ziturinda indwara, zitwongerera intungamubiri nziza mu mubiri wacu.

Amafi menshi cyane, ni amafi akiri mato, amafi ubona ko azavamo indagara, ni amafi atari yaba manini, ari ku nkoko menshi cyane, ya mafi banika akavamo indagara ziryoha, zifite intungamubiri.

Amafi menshi cyane ni amafi ari mu kibase cy'umutuku Ni amafi manini ,hari n'ikibasi cy'ubururu kirimo udufi dutoya cyane. Ni twa dufi dutoya banika hakavamo indagara. Ni indagara nziza zifite intungamubiri nyinshi.

Amafi manini menshi， ari mu ndobane bamaze kuroba. Amafi ni zimwe mu nyamaswa zo mu mazi，ziduha inyama， muri za nyama zirinda indwara， amafi ni meza.

Abagabo bari mu bwato barimo kuroba amafi mu kiyaga, bari kuroba amafi meza manini. Ni ya mafi meza aba mu mazi, adufasha kubona inyama nziza cyane zirinda indwara.

Abagabo bafite amafi, bafite amafi meza cyane, bari kugenda bayashyira mu tubuwate. Ni utubuwate twiza cyane dusa nk'umweru, dufite imyenge kugira ngo amafi ataza kugira ikibazo ,zijye zibona aho zihumekera.

Amafi meza cyane ni amafi atetse, amafi akaranze neza araryoshye cyane, amafi ni zimwe mu nyamaswa ziduha inyama nziza cyane, za nyama zirinda indwara zikaduha imibereho myiza.

umugabo uri mu gishanga. Ni igishanga kirimo ibyatsi byinshi cyane, kandi hakaba harimo amazi. Ni umugabo wicaye mu bwato uri kugendera mu bwato. Ni ubwato bw'ibiti. Ni bumwe mu bwato bwo mu mazi twifashisha mu buryo bwo kugira ngo twambuke amazi.

Amafi abiri manini meza ari muri firigo, firigo ni nziza cyane ituma ibyo kurya byacu bidatakaza intungamubiri. Ni byiza gukoresha firigo.

Amafi manini cyane n'amafi menshi ari mu gatete, amafi ni zimwe mu nyamaswa ziva mu mazi, ziduha inyama nziza cyane, ni za nyama zitwongerera intungamubiri mu mibiri yacu.

Amafi menshi manini ari mu mazi. Amafi ni bumwe mu bwoko bw'inyamaswa buba mu mazi, ni zimwe mu nyamaswa ziduha inyama nziza cyane, inyama zirinda indwara.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa. Ibirayi, ibitunguru ni bimwe mu bihingwa twifashisha mu byo kurya bituma tugira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane, ni umurima uteyemo ibijumba. Ibijumba ni bimwe mu biribwa biduha imbaraga. Ibijumba bikomoka ku migozi bikera ikijumba kinini, cya kijumba urya ukumva ni amafufu.

Amabuye menshi cyane ,amabuye manini n'amato ,ni amabuye ari mu muferege unyuramo amazi ,ni amwe mu mabuye, adufitiye akamaro kanini cyane ,cyane ko tuyifashisha mu buryo bwo kubaka, amazu yacu.

Ibiti byiza cyane ni ibiti biteye neza, ni bimwe mu biti biduha umuyaga mwiza twasohora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza, ni byiza ko twatera ibiti.

Ibiti byiza cyane. Ni byiza gutera ibiti kuko ibiti biduha umwuka mwiza, bigatuma dusohora umwuka mubi, tukinjiza umwuka mwiza. Byaba byiza tugiye dutera ibiti.

Ikibaya cyiza cyane ni ikibaya kirimo utuyira dutoya abagenzi bagenda banyuramo, harimo ibyatsi byiza cyane, hakaba harimo ibitoki, hakaba hatuyeho abaturage benshi bafite amazu meza cyane, hari ibiti byinshi.

Umurima munini cyane. Urimo igiti kinini kigandaye. Ni igiti cy'amashami menshi. Ni kimwe mu biti biduha umuyaga. Bikaduha umwuka mwiza. Twasohora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza.

Umuhanda uriho borudire. Ni borudire nziza cyane, ni borudirre yubatswe neza, yubakishije amabuye. Ni burodire icamo amazi, kugira amazi najya aca mumuhanda, yirinde gucukura umuhanda.

Ishyamba rinini cyane n'ishyamba riteyemo, imbuto nziza cyane n'igiti cy'imbuto kivaho imbuto zitwa ibinyomoro, ibinyomoro ni bimwe mu mbuto nziza cyane, za mbuto zirinda indwara.

Igiti kinini cyane, ni igiti cya avoka kigandaye. Ni kimwe mu biti biduha ibyo kurya byiza. Biduha avoka nziza ni ya avoka turya ubuzima bwacu bukamera neza, kandi ikaduha n'isabune nziza yo gukarabya, cyangwa gufurisha.

Umurima mwiza cyane ni umurima urimo imboga nziza hakaba harimo ibitunguru, harimo amateke. Imboga ni zimwe mu birinda indwara, amateke ni bimwe mu bitera imbaraga.

Ishyamba ryiza cyane ni ishyamba ririmo ubwoko bwiza bw'ibiti bwitwa intusi ni ibiti biteye neza, ibiti bidufasha kubona umwuka mwiza. Twasohora umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza ni byiza ko dutera ibiti.

Ibiti byiza cyane, ibiti biteye neza, ibiti biduha umuyaga, ni byiza ko twatera ibiti ku buryo kugirango tubeho neza, nidusohora umwuka mubi twinjize umwuka mwiza mu mubiri wacu.

Ihene nziza y'umukara iri mu murima iri kurisha ubwatsi. Ihene nziza iduha ifumbire, ikaduha inyama zo kurya zituma tugira imibereho myiza.

Umurima munini cyane, n'umurima urimo ibyatsi by'urubingo n'ibyatsi, by'urubingo inka zikunda kurya kandi harimo ibitoki byiza cyane n'insina nziza cyane zishishe, hateyemo n'ibigori byiza n'ibigori bitari byuma.

Umurima munini cyane, ni umurima uteyemo imbuto z'ibirayi ni ibirayi bitari byakura bikiri hasi, ni ibirayi bisa neza ni bya birayi bikura bikera bikaduha ibiryo byiza cyane, bya biryo bitera imbaraga.

Umurima munini cyane ni umurima uhinzwe neza, uhinzwe mu mitabo, imitabo n'ukuntu bahinga bakajya barunda itaka hamwe, bakoze nk'umurongo, bakajya bashyiramo imyanya yo kugira ngo amazi ajye ajyamo, uburyo bwo kugira ngo ibiribwa byabo bitazabura amazi.

Isoko ryiza cyane n'isoko ririmo ibyo kurya bitandukanye,, harimo imboga z'amoko atandukanye, harimo intoryi, harimo puwavuro, harimo inyanya nziza cyane zitukuye, harimo amashu meza asa neza.

Abamama babiri bari kugenda umwe ahetse umwana, bafite amasuka bari kugenda mu murima bagiye guhinga. Guhinga ni byiza, bituma nta nzara ibaho, tugahinga ibyoku kurya.

Abamama bane bari mu murima bari gukura ibirayi, ibirayi byiza cyane ni ibirayi binini bisa nk'umweru ,ni bimwe mu birarayi duteka bikadutera imbaraga.

Voka nziza cyane ni voka basatuyemo kabiri. Ni voka isa neza nk'imbere isa nk'umuhondo. Voka y'umutsima ni voka turya tukumva turanezerewe avoka ivamo isabune nziza.

Abantu benshi cyane barimo abagore, aba mama ,abakobwa ,n'abahungu bari kwiga uburyo bwo gutera ibiti, ni bimwe mu biti biduha umuyaga mwiza tugahumeka umwuka mubi twinjiza umwiza.

Umu mama uri mu gishanga uri kuyora umuceri mu bwanikiro ni umuceri mwiza cyane umuceri dukunda guhinga ahantu mu gishanga muri ya miceri idutera imbaraga.

Umugore n'umugabo bari mu nzira bari kugenda, umugore afite isuka, umugabo nawe afite isuka, ariko umugore afite n'ipaniye, agiye guhinga, kugira ngo bazabone imibereho myiza.

Imyumbati myinshi cyane, ni imyumbati myiza, ni imyumbati isa neza, ni mu bwoko bw'ibitera imbaraga bw'ibinyamafufu, Ni byiza ko twatera imyumbati kugira ngo tubone imbaraga zihagije mu mubiri.

Umugabo uri gusuka inyanya, ari kuzikura mu gatebo ari kuzishyira mu mifuka. Ni imifuka myinshi irimo inyanya nziza cyane. Ari gusarura inyanya, inyanya zisa neza nini. Ni za nyanya ukoramo isosi, isosi ikaba ifashe imeze neza.

Amashaza meza cyane, amashasa y'ibara ry'icyatsi ni ya mashaza aba atari yuma , ni amashaza dukunda guteka urugero nko mu birarayi , mugateka ibirayi ku buryo biraba bifashe muri bya birarayi bitera imbaraga.

Inyubako nziza cyane ni inyubako yubatse neza irimo ibikoresho inkoko ziriramo. Harimo n'ibikoresho inkoko zinyweramo amazi . Ni inyubako yubakishije ibiti isakaije amabati.

Amashu meza cyane, ni amashu ari mu murima, amashu yenda kwera, amashu ni zimwe mu mboga ziturinda indwara, ni imboga nziza cyane twagakwiye gutera, mu buryo bwo kugira ngo twirinde indwara.

Dendo nziza cyane ni zimwe mu bwoko bw'inkoko zigira ibirokoroko. Dendo zivamo inyama nziza cyane ni mu nyama zirinda indwara. Ni byiza ko tworora dendo kugira ngo tujye twirinda indwara zitandukanye.

Ihene nziza cyane ni ihene Nini z'amabara atandukanye , ihene ni zimwe mu nyamaswa ziduha inyama nziza cyane inyama zirinda indwara zikaduha kandi ifumbire , ifumbire duteza imyaka yacu itera neza.

Igiti kiriho amapapayi menshi cyane ni amapapayi meza manini ni amwe muri y'amapapayi atukura imbere akaba umuhondo ni zimwe mu mbuto zirinda indwara.

Umumama uri mu murima ufite isuka, arimo guhinga. Ari guhinga mu buryo bwo kugira ngo yiteze imbere, inzara itazagera mu muryango we, akabura ibyo kurya.

Inkoko ebyiri， isake， inkokokazi. Inkoko ni nziza zifite akamaro ko kuba ziduha amagi，inyama， ziduha ifumbire.

Intoyi nziza cyane ,ni intoryi zisize neza zeze intoryi ni zimwe mu mboga zirinda indwara ,ni byiza ko dutera intoryi mu buryo bwo kwirinda indwara tukagira imibereho myiza.

Amaronji meza cyane, amaroji asa neza, amarongi ni zimwe mu mbuto zituma tugira imikorere myiza, imiberero myiza, imbuto ni bimwe mu birinda indwara.

Umumama uri mu murima, ufite umufuka w'ibirayi n'ibindi birarayi biri hasi, ni umumama uri gukura ibirayi, ibirayi byiza cyane binini byumweru, bimwe mu bidutera imbaraga.

Wotameloni nziza cyane, ni wotameloni isatuye mwo imbere isa n'umutuku, ni zimwe mu mbuto dukoramo ji, ji nziza cyane, ji iryoshye ni ya ji idufasha kugira ubuzima bwiza, ni ya ji irinda indwara.

Umumama munini wikoreye ibijumba, uvuye gukura ibijumba, ibijumba batera ari imigozi bikavaho ibijumba binini byiza, ibijumba bidutera imbaraga ni byiza ko dutera ibijumba.

Amaronji meza cyane ari mu gitebo, imineke myiza cyane iri mu gitebo n'imyembe myiza cyane iri mu gitebo. Ni isoko jy'imbuto , isoko ubona rimeze neza ririmo imbuto z'ubwoko bwose.

Abantu benshi cyane bari mu gishanga. Ni igishanga kinini kigari. Ni igishanga giteyemo ibigori byiza cyane. Ni ibigori barimo kubagara. Ni bya bigori biba bitari byakura. Ibigori ni bimwe mu binyamisogwe cyane bidutera imbaraga.

Abagabo babiri ni abagabo bari impande y'ikiraro muri icyo kiraro kirimo ingurube, ingurube nziza cyane ni ingurube nini ingurube ibyibushye ni zimwe muri za ngurube ziduha inyama za nyama nziza ziri mu birinda indwara.

Ibigori byinshi cyane ni ibigori byumye bihanitse mu bwanikiro. Ubwanikiro budufasha kugira ngo twanike ibigori byacu ahantu heza, bitari bujyemo itaka.

Voka nziza cyane, ni voka zikiri imiteja, ni voka zikiri mu giti. Ni zimwe mu mbuto turya hakavamo n'isabune dukarabisha tukanafurisha.

Imifuka myinshi cyane ni imifuka iri mu murima irimo ibirayi byiza cyane binini, imifuka ihambiriyemo ibirayi. Ibirayi ni bimwe mu biribwa bitera imbaraga.

Imbuto nziza amaronji, amatunda, ibinyomoro, imbuto ni nziza mu buzima bw'umuntu. Zituma agira ubuzima bwiza, zikamurinda indwara.

Abantu benshi cyane, barimo abagore n’umugabo, ni abantu bari mu umurima. Ni umurima munini cyane, utewemo ibirayi. Barimo gukura ibirayi, ni ibirayi byiza binini, ibirayi by’umutuku.

Umugabo uri mu murima w'ibigori. Ibigori byiza, binini cyane ibigori bivamo ifu y'igikoma, bikavamo agahunga, agahunga gatera imbaraga.

Ibijumba bitatu binini cyane n'ibijumba byiza byumutuku mimbere bisa n'umuhondo n'ibijumba bitera imbaraga, ni byiza ko duhinga ibijumba mu buryo bwo kugira imbaraga.

Iteke ryiza cyane ni iteke riri mu muririma riteye, n'iteke rifite amababi meza atoshye. Iteke ni rimwe mu bitera imbaraga. Rya teke urya ukagira imbaraga nyinshi zihagije.

Amaronji menshi cyane, ni amaronji meza ni amaronji asa neza yeze. Amaronji ni zimwe mu mbuto zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukagira intungamubiri nyinshi mu mubiri wacu.

Umumama uri mu murima urimo ibigori byiza cyane, ni ibigori byinshi ibigori biri kuyanga bitari byera. Ibigori ni bimwe mu biribwa byiza cyane, biduha igikoma bikaduha akawunga.

Isoko rinini cyane ni rya soko ririmo ibiribwa bitandukanye, ni isoko ririmo karoti nziza, ririmo ibihaza binini, hakaba harimo ibitunguru, ni isoko ririmo amagi meza, ya magi yujuje ubuziranenge.

Ironji ryiza cyane risatuyemo kabiri, ironji rifite umutobe mwiza, wa mutobe ushobora gukuramo ji, wa mutobe ushobora kunywa ukumva ni umutobe mwiza cyane.

Aba mama babiri n'umupapa bari mu gishanga cy'umuceri, barimo baranika umuceri. Umuceri ni igihingwa gikunda guhingwa mu gishanga.

Imbuto nziza cyane ni imbuto ziri muri butike nk'dukoko ni zimwe mu mbuto zirinda indwara harimo wotameloni, imyembe ,amaronji n'ibinyomoro.

Imyumbati myinshi cyane, ni imyumbati ikuye isutse hasi, ni imyumbati yeze. Ni bimwe mu biribwa bitera imbaraga tukagira imbaraga mu mubiri wacu, mu buryo bwo kugira ngo dukore akazi neza.

Ubunyobwa bwiza cyane ni ubunyobwa bunini ,ni ubunyobwa busogoye ,ni bumwe mu bunyobwa tubetesha hakavamo ifu . Ni ya fu dukoramo isosi nziza cyane, ya sosi ifashe ,imwe iryoshe, wumva wakumbura buri munsi.

Ingemwe nziza z'ibiti, ni ingemwe zitari zakura, ni zimwe mu ngemwe twifashisha mu buryo bwo kugira ngo dutere ibiti byinshi, bya biti bizaduha umuyaga mwiza.

Ubuhinzi bw'ibigori. Ibigori bisa neza binini ,ibigori bidufasha kubona igikoma, agahunga ibigori ni bimwe mu bitera imbaraga.

Umugabo munini cyane wambaye umupira w'umuhondo, ni umugabo uri guca imbuto, ni imbuto z'amatunda, zimwe mu mbuto zidufasha gukura neza, zikaturinda indwara, ni imbuto zishingiriye kugira zere neza.

Umumama wambaye agapfukamunwa, uri gucuruza ibishimbo. Ni ibishimbo byiza cyane bisa neza. Ibishimbo ni bimwe mu biribwa bitera imbaraga.

Umugabo uri kwinaza ibigori, n’umugore n’umugabo bari kubagara ibigori. N’umugabo uri gusarura, ari no kwanika ibigori. Wanitse ibigori by’impungure bihunguye.

Ibihaza byeze cyane, ibihaza byinshi binini, ibihaza biri mu moko atandukanye harimo ibihaza biba bifite igihu gikomeye, ni bimwe mu bihaza bitera imbaraga byiza cyane.

Abagabo babiri, ni abagabo bahagaze mu murima bari kureba muri terefoni. Umwe afite akabase, ni akabase karimo agasuka ko guteresha, hakaba harimo n'umufuka.

Ibijumba binini cyane, ni ibijumba byinshi by'umutuku mo imbere bisa nk'umuhondo. Ibijumba ni bimwe mu biribwa bitera imbaraga, tukagira imbaraga mu mubiri wacu.

Pavuro nziza cyane, ni pavro ziteye zifite amababi meza yicyatsi, pavuro zitoshye ni zimwe mu mbuto zidufasha kwirinda indwara. Pavuro ni nziza cyane.

Amapera menshi cyane, ni amapera ari mu tubase. Ni amapera manini yeze, ni zimwe mu mbuto zituma tugira ubuzima bwiza, ni zimwe mu mbuto ziturinda indwara, ziva ku giti kinini cyane.

Igiti kiza k'imyembe. Ni igiti keraho imbuto zo mu bwoko bw'imyembe, ziri mu birinda indwara. Ni imbuto nziza cyane, uzirya ukumva umeze neza.

Amateke manini cyane. Ni amateke menshi, ni ya mateke y'amafufu amwe atera imbaraga. Ni ya mateke uteka ukumva uri kurya ibiryo bimeze neza, ibiryo biragutera imbaraga ukagira imbaraga nyinshi mu mubiri.

Umumama uri mu murima munini w'ibigori, ni ibigori bikiyanga, ibigori bitari byera, ibigori ni bimwe mu mbuto zidufasha kubona igikoma zikadufasha kubona akawunga kamwe gatera imbaraga.

Igiti kinini cyane ni igiti cy'ipapayi ni igiti kirimo amapapayi menshi ahiye, ni amapapayi ahiye asa nk'umuhondo n'andi atari yashya asa nk'icyatsi.

Abantu benshi cyane, ni abantu bari mu murima, umurima munini, umurima uteyemo ibirayi, bari gukura ibirayi, bari gukura ibirayi byiza cyane, ibirayi by'umweru binini.

Abagore bari mu murima . Ni abagore bafite amasuka barimo guhinga . Ni mu buryo bwo kugira ngo bahinge imirima yabo ,bateremo ibyokurya bazabone ibibatunga babone intungamubiri mu mibiri yabo.

Avoka nziza cyane ni avoka zikiri mu giti, ni avoka z'imiteja zitari zera. Avoka ni zimwe mu mbuto zidufasha kubona ibintu bitandukanye. Avoka turazirya kandi tugakoramo isabune nziza. Ni isabune dufurisha tukanakarabisha.

Imbuto nziza cyane, ni imbuto ziri mu isoko zitanditse, ni imbuto z' imyembe, imyembe ni imwe mu mbuto nziza, za mbuto zirinda indwara, imyembe myinshi cyane isa neza.

Imboga nziza zo mu bwoko bw'amashu ziri gucururizwa mu isoko ku kameza imboga zisa neza imboga ni nziza k'ubuzima bw'umuntu.

Abagabo n'abagore bari mu murima, bari gusarura inyanya, za nyanya nziza cyane z'umutuku, za nyanya ziduha isosi nziza cyane, isosi ifashe, ya sosi iba ibiryoshye, urya ukumva uranezerewe.

Abantu benshi cyane, ni abantu bicaye n'umupapa ufite igare iriho imyumbati minini cyane. Ni imyumbati myiza yo kurya, hari n'umupapa uhagaze. Abo bantu bari kwiga uburyo bwo gutera imyumbati kuko imyumbati ni bimwe mu biribwa biduha imbaraga.

Ibiti byiza cyane ni ibiti biteye neza, ibiti bisa neza. Ibiti ni bimwe mu bintu biduha umuyaga mwiza cyane, umuyaga ukicara ukumva uratuje cyangwa se wasohora, umwuka mubi ukinjiza umwuka mwiza.

Ibigori by'amahundo, amahundo ni ibigori bisarugwa bikaba bitari bya hungugwa. Ibigori ni nibyiza bivamo igikoma n'agahunga.

Abamama benshi cyane ni abamama bafite inkoko iriho ibishyimbo n'ubwoko bw'ibishyimbo butandukanye, hari ubwoko bw'amabara y'umweru n'ay'umutuku n'ay'umuhondo n'ay'umukara.

Ibigori byiza cyane ni ibigori biri mu gatebo, ni ibigori bitari byuma ni bimwe mu bigori dukunze guteka ubundi tukabyotsa, ibigori ni bimwe mu mbuto zitera imbaraga zikavamo umutsima mwiza uryoshye.

Umurima munini cyane, ni umurima uteyemo ibirayi byinshi. Ni ibirayi bitewe mu buryo bwa kijyambere. Bitewe ku murongo kugira ngo ibirayi byere neza, biduhe umusaruro mwinshi ugaragara.

Umugore munini cyane, ni umugore uri mu bishyimbo , ufite akabase karimo ibishyimbo, ni ibishyimbo byiza cyane, ni bimwe mu binyamisogwe bituma tugira imbaraga, ni bya bishyimbo turya, tukagira imbaraga mu mubiri wacu.

Ubunyobwa bwiza cyane ni ubunyobwa busogoye. Ni ubunyobwa bw'umutuku, hariho urunyobwa rumwe rudasogoye batari batonora. Ubunyobwa ni bumwe mu mbuto zituma tubona ifu nziza cyane. Ni ya fu dukoramo isosi, isosi nziza ifashe.

Ubunyobwa bukuye budasogoye. Ubunyobwa usogora, ugasekura, ukavanamo ifu, ifu yo guteka mu biryo. Ibiryo bikagira isosi nziza.

Imiteja myiza cyane ni zimwe mu mboga ziva ku bishyimbo. Ni ibishyimbo biba bitari byera, bitari byakomera. Ni imboga nziza cyane ni imboga zituma tugira imibereho myiza. Zirinda indwara.

Igare ripakiye ibishimbo, ni ibishimbo bigisarugwa bikiri imisogwe, ni ibishimbo bitari byasogogwa, ni byiza ko twiteza imbere duhinga ibishimbo.

Imbuto nziza cyane ni imbuto zitwa soya, ni soya nziza cyane zirasa neza. Ni zimwe mu mbuto zidufasha kubona isosi nziza cyane, ni isosi nziza kandi ifashe twabetesha tugakoramo igikoma cyiza cyane.

Umurima munini cyane, n'umurima urimo ibigori byiza, N'ibigori binini bishishe ni bimwe mu bigori bitari ibyuma. Ibigori bidufasha kubona ibyokurya, bikadufasha kubona igikoma cyiza cyane, havamo n'akawunga keza.

Imbuto nziza cyane, ni imbuto z'amashaza, ni imbuto ziri kumera zitari zakura, zitari mu butaka, mu buryo bwo kugira ngo tumenye uko imbuto zimera, uko ziba zimeze, n'uburyo zikura.

Igihwagari kinini keze kivamo amavuta, ya mavuta meza dutekesha, amavuta utekesha ukumva ibiryo bimeze neza , bya biryo ukumbura buri munsi.

Imifuka myinshi cyane, ni imifuka irimo ubunyobwa. Ni ubunyobwa butari bwa sogorwa bweze kandi bwumye. Ubunyobwa ni bimwe mu binyamisogwe biduha isosi nziza cyane, isosi nziza kandi ifasha.

Umumama uri mu murima uri gukura ubunyobwa, ubunyobwa batonora bakanika bakabetesha bagakoramo isosi iryoshye cyane.

Abagabo babiri ni abagabo bari impande y'ubwanikiro. Ni ubwanikiro bw'ibigori burimo ibigori byinshi cyane. Ni ibigori bihanitse mu nzu y'ubwanakiro isakaje amabati y'umutuku.

Umurima munini cyane urimo ibihwagari byinshi cyane, ni ibihwagari bimaze kwera birimo kuma. Ni bimwe mu bihwagari dukoramo amavuta yo guteka, ni amwe mu mavuta twifashisha mu buryo bwo kugira ngo duteke ibiryo bisa neza.

Imbuto nziza cyane ni imbuto z'ibishyimbo. Ni bimwe mu bishyimbo duteka, ni bimwe mu bitera imbaraga. Ibishimbo ni byiza cyane, bituma tubaho neza, tukagira ubuzima bwiza.

Ubwanuro bwiza cyane, ni ubwanuro bwubakishije ibiti busakaje amabati ni ubwanuro banuriramo ibigori, ni ibigori byiza cyane, byinshi, ni ibigori bakoramo igikoma n'akawunga.

Ibihwagari binini byeze byumye, ibihwagari ni bimwe mu bihingwa bidufasha kubona amavuta yo guteka. Ni byiza guhinga ibihwagari.

Ubunyobwa bwiza cyane, butari bwatonorwa ni bumwe mu mbuto zidufasha kubona isosi nziza cyane, aho ufata ubunyobwa ukabusekura cyangwa ukabubetesha, ugakuramo isosi iryoshye kandi ifashe.

Amashaza menshi cyane ni amashaza asutse, amashaza asa neza manini. Amashaza ni bimwe mu biribwa cyangwa se imbuto zitera imbaraga, ni bimwe mu byo duteka bituma tugira imbaraga.

Umumama usutamye ufite inkoko, inkoko n'imwe mu bikoresho, twifashisha dusukura imbuto zacu. Turazigosora imyanda ikagwa hasi, tugasigarana imbuto nziza zisa neza.

Umumama uri kumwe n'umupapa ni umumama uri kugosora, ari kugosora umuceri agosorera ku nkoko, mu kugosora umuceri agakuramo imyanda hagasigara umuceri wonyine.

Imifuka myinshi cyane, n'imifuka minini cyane imwe ya kirojana, n'imifuka irimo umuceri, umuceri ni bimwe mu binyamisogwe bidufasha kubona ibyo kurya byiza cyane, byo kurya bitera imbaraga.

Amashaza menshi cyane, ni amashaza ari mu murima atari yuma, ni amashaza amwe bashwituriye mu gatebo, ni amashaza asa neza, ni imwe mu mbuto zitera imbaraga.

Imifuka myinshi cyane irimo imbuto zitandukanye harimo ibishyimbo, soya, ibigori ,amashaza ubunyobwa n'umuceri.

Imbuto nziza cyane zitwa inzuzi. Inzuzi aba ari za mbuto zavuye mu gihaza, akaba ari za mbuto utera zikera igihaza cyiza cyane. Cya gihaza kiryoha kimwe gitera imbaraga.

Abagore batatu, ni abagore bari kurobanura ubunyobwa. Bari kurobanurira ubunyobwa ku nkoko, inkoko ni igikoresho kidufasha gukuramo imyanda mu biribwa byacu, kugira ngo tubirye bisa neza.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umusore umwe. Ni abantu bari gusarura umuceri weze. Umuceri ni bimwe mu biribwa bikunda guterwa mu gishanga, cya gishanga gikunda kugiramo amazi menshi.

Ubunyobwa bwiza cyane ni ubunyobwa busogoye, bwumye busa n' umutuku; ubunyobwa ni bimwe mu binyamisogwe, bituma tubona ibyo kurya byiza bisa neza, ugatekamo isosi nziza cyane n' isozi iba ifasha.

Isoko rigari ririmo ibyo kurya bitandukanye, cyane nko mu bitera imbaraga:harimo ibishyimbo harimo ibirayi hakabamo n'ibijumba hakabamo amashaza, n'imbuto nziza cyane.

Ibigori byinshi cyane, ni ibigori by'amahundo by'umweru, ni ibigori bihanitse, byanitswe mu bwanikiro bwiza cyane, ni ubwanwanikiro bwubatswe neza, busakaje amabati, ni bwanikiro bw'ibiti.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo binini, ibishyimbo bisa neza, ibishyimbo bituma tugira imbaraga. Ni byiza gutera ibishyimbo tukitabira gutera ibishyimbo, kugira ngo inzara itazatwica.

Ihene nini cyane, n'ihene nyinshi ziziritse ku biti, n'ibiti byinshi cyane, ihene zirimo kurisha ziri mu ishyamba, ishyamba rinini rifite ibiti byinshi.

Abantu benshi bicaye bari kugigwa inama ubona ko bashonje ni byiza ko twaringaniza urubyaro kugira ngo tubyare abo dushoboye kurera.

Ingurube nini cyane isa neza. Iyi ingurube y'umukara iri mu kiraro. Ni zimwe mu ngurube ziduha inyama ,zikaduha ifumbire. Inyama ni zimwe mu birinda indwara.

Umugabo uri mu nkoko nyinshi cyane, ni umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi, ari guha ibyo kurya inkoko harimo amasake akabamo inkokokazi. Inkokokazi ni zimwe mu nkoko ziduha amagi meza cyane y'amagi turya tukirinda indwara.

Inyama nziza cyane ni inyama ziva ku matungo. Ni muri za nyama ziduha intungamubiri nziza cyane. Ni inyama zirinda indwara. Inyama ziva ku matungo y'ubwoko butandukanye.

Abaveterineri b'abagabo babiri bambaye iniforume yabo， bambaye ingofero， bafite ingurube ebyiri n'ingore ebyiri zikiri ibyana， ariko ubona ko zisa neza cyane.

Abaveterineri bambaye imyenda y'umweru n'umukara. Abaveterineri bari mu kiraro cy'ingurube, zimwe mu ngurube ziduha inyama, zikaduha ifumbire. Ni byiza ko tworora tukarinda n'indwara ingurube zacu.

Intama ebyiri ziri mu famu zirisha. Ni intama nziza, intama wabaga ukabona inyama nziza cyane, inyama zagufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inkoko nyinshi ziri kurya ibiryo byazo, ziri kurira mugakoresho ziriramo, ziri kunywa amazi. Inkoko nziza, inkoko ziduha amagi, zikaduha inyama.

Abantu bari mu ifamu, bari mu ifamu irimo inka nziza cyane, ni inka ziduha inyama nziza, zikaba ziduha amata meza, kandi zikaduha ifumbire, ya fumbire dufumbiza imyaka yacu, ikamera neza.

Abaveterineri benshi bambaye amataburiya y'umweru, bambaye n'udupfukamunwa barimo kuvura inka, inka bayiziritse amahembe, bayizirika amaguru, mu buryo bwo kugira ngo bayivure neza.

Inka nziza cyane y'amabara y'umweru n'umukara, n'inka nini iri mu kiraro harimo n'abaveterineri, hariho abanyeshuri baje kwiga ubuveterineri n'abanyeshuri benshi biteguye kwiga ubuveterineri.

Ingurube nini cyane, ni ingurube yabyaye utwana twinshi, iri kutwonsa iryamye utwana turi konka . Ni twatwana dukura, ukabona ni ingurube nziza cyane.

Abantu benshi cyane, ni abantu b'abaveterineri bari kumwe n'inka, bari kuvura inka. Bari mu kibuga cyiza cyane, hafi aho hari indege iri kuzamuka mu kirere. Ni indege nini isa neza.

Inkoko nyinshi cyane, ni inkoko zisa neza zikiri imishwi, ni inkoko ziri aho zororerwa, ni inkoko ubona ko ari inkoko zifite ubuziranenge buhagije. Ni inkoko zikura ukabona zifite inyama nziza cyane, zigatera amagi asa neza.

Imishwi myiza cyane myinshi, harimo inkokokazi, amasake. Ni imishwi igaragara neza ko izakura, ikaba imeze neza ikavamo inkoko nziza zigaragara.

Inkoko nyinshi cyane , ni inkoko ziri aho zororerwa harimo inkokokazi , hakaba harimo n'amasake . Ni nkoko zifite ibyo kurya byiza cyane biri mu dukoresho twazo , zifite amazi meza cyane ari mu dukoresho twazo.

Inka nini cyane, ni inka y'ibara ry'umukara, iriho ibara ry'umweru ku maguru, ni inka iri kurisha ibyatsi. Impande yaho hariho ikiraro kinini, ni cya kiraro kibamo inka, hariho n'ikigega kizamo amazi, inka zikunda kunywa.

Imbeba nini cyane, ni imbeba isa n'umukara, ni imbeba ifite ubwoya bwinshi, ifite n'ubwanwa, imbeba ni zimwe mu nyamaswa zigenda n'amaguru. Ni inyamaswa nziza cyane.

Inyoni nziza cyane， inyoni z’amabara y’umweru n’umukara，ni inyoni ziri mu ndabo cyangwa se mu biti， ni inyoni zisa neza，zimwe mu nyoni ziguruka.

Inzovu nini cyane, ni inzovu zifite amahembe manini, inzovu iri kumwe n'akana kayo, iri mu ishyamba, ni mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti bitandukanye, ririmo ibyatsi bishishe.

Inyoni ebyiri nziza zamabara meza umutuku, icyatsi, ubururu ninyoni zihagaze ku giti inyoni zitwa samusure inyoni zisa neza nini.

Inyoni nziza cyane, ni inyoni iguruka y'amabara yumukara n'umuhondo, inyoni ifite amaguru abiri, iri mu kirere, iri kuguruka, isa neza cyane.